Hirya no hino mu gihugu uzahasanga utuzu twa Airtel ducuruza amayinite ndetse tugatanga na serivisi za Airtel Money, haba hari umukozi ubishinzwe ku buryo abigufashamo.

Abakozi bashinzwe ibya MTN. Bagenda bafasha abaturage mu buryo bugiye butandukanye, aho babigisha gukoresha serivisi z'iyi sosiyete kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza.

Mu Rwanda hakorera sosiyete z'ubucuruzi nyinshi cyane zigenda zitugezaho ibikorwa bitandukanye gusa hari izwi nka Airtel idufasha mu buryo bw'itumanaho.

Abazungu babiri bambaye impuzankano y'ijiri rya MTN, ikaba ari sosiyete y'itumanaho ikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye.

Umucuruzi ufasha MTN kugira ngo serivisi zigere ku baturage mu buryo bworoshye, yicaye ku ntebe ndetse akaba afite umutaka w'iyo sosiyete itanga itumanaho ryiza.

Inyubako y'akazu ka MTN, ikorerwamo n'umukozi w'iyi sosiyete, utanga serivisi zitandukanye. Harimo kubitsa, kubikuza, kugura amayinite ndetse no kohereza amafaranga ku nshuti zawe.

Abantu benshi cyane biganjemo abambaye imyenda y'umweru, bicaye mu itente bakaba bari mu munsi mukuru w'umuganura, barimo kurya ibigori bitetse neza.

Umugabo uri mwi itente afite indangururamajwi akaba arimo kugeza aho abamukurikiye ijambo, imbere ye hari ibitabo arimo kugenda yifashisha.

Abantu bigaragara ko bari mu isoko, bakaba bari kugenda bagura inkweto, ndetse bakagura imikandara n'ibindi bintu bigiye bitandukanye n'amasabune y'amazi n'ibindi.

Inama yahuje abagize koperative ndetse n'abanyamigabane muri banki, bakaba barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo y'uburyo bakiteza imbere, binyuze mu kongera imigabane ndetse n'amafaranga babitsa na yo bagurizanya.

Unyubako nziza cyane isize amarangi y'umuhondo imbere n'inyuma, ikaba ari inyubako ikorerwamo na koperative ndetse hakaba harimo serivisi zitandukanye zihatangirwa zo ku irembo.

Repubulika y' u Rwanda, Akarere ka Nyagatare, kwizihiza umunsi mukuru w'amakoperative mu Karere ka Nyagatare, ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu, bibiri na makumyabiri na kane.

Ibigori iyo bimaze gusarurwa byannikwa ku mbuga hanyuma bikuma, iyo bimaze kuma birahungurwa bigatunganywa bigashyirwa mu mifuka, hanyuma bikajyanwa ku ruganda.

Abaturage ni benshi bazindukiye ahabereye inama ndetse bakaba bari bicaye mu intete ry'umweru ariko rikaba ridekoye neza n'ibitambaro by'umuhondo ndetse n'ibyatsi.

Abantu bazindutse kare cyane ni abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bakaba barimo guhugurwa bicaye mu itente ry'umweru rifite akabara k'umuhondo, aho bicaye hari abafite amazi imbere yabo yo kunywa.

Kwishyira hamwe ni byiza. Abaturage bishyize hamwe maze bagura imbabura, zifashishwa mu guteka ndetse zikaba zitangiza ikirere kuko zikoresha amakara ndetse zikaba nta mwotsi zigira.

Abagabo babiri biyicariye mu kabari, barimo kwinywera icupa biturije, bakaba begereye kuri kontwari ndetse bigaragara yuko ari abagabo bakuze.

Amacupa menshi cyane arunze aho aba yarabitswemo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa ndetse akaba ari mu mabara atandukanye. Hari ay'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nziza cyane icururizwamo inzoga, hakaba harimo inzoga z'amoko atandukanye, harimo za rikeli hakabamo inzoga za Bralirwa n'izindi.

Akabati karimo amacupa agiye atandukanye y'inzoga ndetse kakaba kari ahantu hacururizwa akabari, uko bigaragara hari Primus, rikeri ndetse n'izindi nzoga zoroheje.

Intebe nziza cyane ziteye ahantu mu nyubako icururizwamo ibyo kurya. Ikaba ari inyubako ifite amarangi meza y'umuhondo, hakaba hari inkingi ziteye, zifashe igisenge.

Amakaramu atandukanye, ari muri botike, akaba ari mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umukara. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko igihe cyose umunyeshuri agiye kwiga, akoresha imwe muri aya ngaya.

Hari ibintu byinshi bigenda bitwara amafaranga. Urugero ushobora kurya utubombo, ukarya ndetse n'udushikarete. Nyamara ibi byose ntibimara inyota, ntibimara n'inzara.

Imifuka iteretse iruhande rw'ahantu bacururiza, hari amagare aparitse aho ngaho, akaba yifashishwa mu gupakira imizigo, ivuye ku isoko.

Moto iparitse iruhande rw'iduka ndetse iryo duka rikaba rifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'amoko yose, hari amabasi ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo, hari n'ibindi bicuruzwa byo guteka nk'amavuta.

Umukecuru wishimye, urimo guseka, akaba ateze agatambaro mu mutwe. Imbere ye hari ameza ateretseho bombo ziri mu macupa ndetse inyuma ye hari botike irimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umuntu wicaye muri botike ye ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari amavuta, ibirungo byo kurya ndetse hakaba harimo amakarito afungiyemo amabiswi.

Umubyeyi yicaye mu iduka rye. Akaba arimo kwisekera ndetse yambaye akajiri kamufasha kugira ngo aheze abaturage ibintu neza. Inyuma ye hari amafu, afunze mu masashe ndetse hari n'andi ari mu ibasi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Abantu benshi cyane bari imbere y'inyubako bigaragara ko ari inyubako y'urusengero bitewe n'uko hejuru hari umusaraba utambitse, hakaba hari ndetse n'abandi bantu b'abazungu bagiye bivanzemo.

Caritas Rwanda ni umuryango utegamiye kuri leta, ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, ukaba uzwiho gufasha abakene, impfubyi ndetse n'abapfakazi kugira ngo babashe kubona ibintu by'ibanze mu buzima.

Abantu benshi cyane bari mu rusengero ndetse bakaba bahagaze, imbere hari undi upfukamye waje iruhande rwa aritari, mu by'ukuri bikaba ari ibintu byo kubaha kubona abakirisitu bubaha Imana.

Itorero ADEPR mu Rwanda, ni itorero rishingiye ku myemerere ya gikirisiristo ndetse abarisengamo bakaba bizera ko kunywa inzoga ari icyaha gikomeye cyane.

Amajerekani menshi cyane y'umuhondo arimo gusukwa mu cyondo n'abaturage bazindukiye mu muganda, hari n'inzego z'umutekano arimo urwego rwa Polisi zaje gufatanya n'abaturage gukora icyo gikorwa.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo meza cyane, asobanura ko ari ahantu bigira bibiliya, imbere yacyo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse na karuvate, watebeje neza ishati y'umweru.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari urusengero bitewe n'uko hejuru ku gisenge hashushanyije umusaraba ndetse imbere yayo hakaba hari umuhanda usashemo amapave.

Abaturage benshi cyane biganjemo abazungu, abirabura ndetse abenshi bakaba bambaye amakote n'amashati meza cyane na za karuvate, bari ahantu iruhande rw'urusengero bafashe ifoto nyuma yo gutanga inkunga ku baturage.

Umugore arimo kwegera umukecuru. Akaba bari mu nama ndetse akaba arimo kumusobanurira neza ibirimo kuvugwa. Uko bigaragara amuhaye indangururamajwi, arimo kuyimufungurira kugira ngo atange igitekerezo cye.

Inyubako nziza cyane irimo ahantu hari umwanya baparikamo hakaba hari imodoka ihari, hakabamwo imbere hari ameza ateretse neza cyane, hari n'intebe nziza zo kwicaraho.

Intebe ziteye kuri tapi nziza, zikaba ziteye imbere y'ameza na yo y'ikirahure. Hateretseho igikopo cy'amazi ndetse mu nyubako hakaba hari amarido meza cyane, akingirije ku birahure.

Igitanda cy'umuntu uri kwa muganga cyangwa muri hoteri, kigomba kuba gifite inzitiramibu kugira ngo hatagira umubu urya umukiriya ugasanga bimuteye Malariya.

Icyumba kirimo ameza ateguye neza, hakaba hari intebe nziza cyane zo kwicaraho ndetse ku muryango hari amarido meza y'umweru ndetse n'ay'umukara. Igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Imikindo iri imbere y'inzu, iyo nzu ikaba ari inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari amadapo menshi ahashinze hakaba harimo n'iry'Igihugu cy'u Rwanda.

Intebe nziza cyane ziteye ahantu mu cyumba kirimo ameza ariho ibitambaro byiza, ku meza hagiye hateretse ibirahuri ndetse akaba ari muri hoteri icuruza ibintu byo kunywa ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite umuhanda utambuka uyinyuraho, ukaba ari umuhanda wa kaburimbo ariko ukaba wegeranye n'ahantu hari ibiti.

Hoteli ni inyubako umuntu ajyamo akaka icyo kunywa, akaka ibyo kurya, akaka icumbi ndetse n'ibindi. Gusa zigira n'ubugeni butangaje cyane, aho ugenda ubusura maze nturambirwe.

Hoteli nziza cyane ikaba ari hoteri ifite pisine abantu bashobora kuza kongeramo, igihe bumva bafite ubushyuhe ndetse ikaba ari hoteli ifite ubusitani bwiza cyane bufite indabo zihumura neza.

Icyumba cyiza cyane cya hoteri kirimo uburiri busashe neza, hakaba harimo igitanda cyiza cyane gifite imbaho nziza, hari amarido ari mu muryango ndetse akaba ari amarido afite ibara ry'umweru.

Murakaza neza ndetse n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'Igifaransa, Icyongereza yose asobanura kimwe, akaba ari hoteri nziza cyane ifite ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'amacumbi.

Igitanda kiri mu nyubako ya hoteli kikaba ari igitanda kinini kigari kikaba kiriho n'imisego igera muri itatu, kiri ahantu heza cyane, inzugi z'aho zifite amarido y'umweru.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse inshuro ebyiri, ikaba isakaje amabati y'umutuku, bigaragara ko iri ahantu heza cyane ndetse ikaba ari inyubako ikorerwamo na hoteri.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako ifite icyumba gisashemo matela. Hakaba hari televiziyo iri mu nguni iteretse ku kantu k'ameza karekare. Hari supaneti, iziritse hejuru y'gitanda kugira ngo uryamye imibu itamurya.

Abacuruzi bacuruza inkweto bakunze kugira ingeso yo guhenda abazigura ku buryo hari igihe ujya kugura inkweto, bakakubwira amafaranga yagura isambu cyangwa ihene cyangwa inka.

Ibijumba birunze ahantu ku mbuga bikaba birimo kugenda birobanurwamo ibyaboze aho bitegura kubijyana ku isoko kugira ngo ababikeneye babibone.

Ku isoko uzahasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo umunyu w'inka. Amamesa yo guteka ndetse n'amakara . Uzahasanga utumeza tuba duteretseho ibyo bikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu barimo mu isoko bakaba bari gucurangirwa n'umuntu ugenda acuranga maze bakamuha udufaranga nawe akabona ko yajya kwirira akantu na kamwe.

Umugore witeje imbere binyuze mu gucuruza imyenda y'abagore, akaba acuruza ibitenge, amakanzu ndetse n'amajipo byose bikunze kwambarwa n'abagore.

Imyenda myinshi cyane yifashishwa mu buriri izwi nk'amashuka ndetse n'amakuvureri, akaba ari imyenda irunze ahantu hamwe ku isoko. Bikaba bigaragara ko ba nyirayo bategereje abakiriya.

Ibikombe byinshi cyane byogeje, bikaba ari ibikombe bya pulasitike biri mu mabara atandukanye; hari iby'umuhondo, hakaba iby'umutuku ndetse hakaba n'iby'icyatsi kibisi. Yegeranye n'amabati agerekeranyije n'ayo ari mu mabara atandukanye.

Resitora ni hamwe mu hantu hakira abantu benshi ni yo mpamvu bagira ahantu hanini cyane haba hateye intebe ndetse hari n'ameza kugira ngo abakiriya baze kuhicara maze babone uko bafata amafunguro.

Intebe nziza cyane ziteye ahantu hanze hasa neza hari amatara yaka urumuri rw'ubururu , akaba ari muri resitora icuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye, aho ushobora kuza kuhafatira ifunguro rya saa sita ndetse n'irya nimugoroba.

Igihe cyose ugiye muri resitora ni byiza ko uhaka ibiryo by'umwihariko ukaka n'icyo kunywa kuko burya ngo kurya no kunywa birajyana.

Amagare abiri ari kumwe na ba nyirayo, umwe akaba afite udufuka tubiri yahetse, undi we nta kintu ahetse bakaba begereye inyubako ikikijwe n'amabati y'ubururu.

Abamotari babiri bicaye kuri moto bategereje abagenzi ndetse baparitse ahantu hasashe amapave iruhande rw'umuhanda ndetse hakaba hari amaduka inyuma yabo akorerwamo ubucuruzi.

Umugabo afite igare ryiza arimo kunyonga rimufasha kugera ku kazi yihuse ndetse akaba ari mu muhanda wa kaburimbo . Uko bigaragara nta kindi kinyabiziga kirimo.

Umuyonzi washize isoni, atwaye abagenzi babiri ku igare rimwe mu by'ukuri bikaba ari ibintu biteje inkeke kuko ashobora gukora impanuka, ugasanga abatuye hasi. Igitangaje abo bagenzi bose, ni abagore babiri bakuze.

Umutwazi wa moto arimo kwihuta cyane, agiye gutwara umugenzi umuhamagaye kuri telefone, uko bigaragara mu muhanda wa kaburimbo nta zindi modoka zirimo ni yo mpamvu na we umuvuduko yawugabanyije ndetse akaba ari kugenda gake ubwo ageze ahantu hamanuka.

Iodoka nziza cyane y'umukara irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo imanuka, uko bigaragara inyuma yayo hari inyubako z'ubucuruzi izo nyubako zose zikaba zigiye zimanitseho ibyapa.

Igare ry'umuyonzi ritwaye amajerekani abiri. Ririmo kubisigana n'imodoka y'umukara y'umuntu usanzwe ndetse imbere hakaba hari andi magare arimo kuzamuka. Gusa hakaba hari n'umuntu uri ku kagare, utwawe n'umuyonzi.

Igare rihetse agafuka rikaba ritwawe n'umugabo ufite inkoni iruhande rwe, hari moto ifite umugenzi ndetse hakaba hari inyubako ziri kugaragara z'ubucuruzi.

Abamotari bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri za moto, bavuga yuko Leta y'u Rwanda yagiye itababanira neza kuko umumotari abazwa imisoro myinshi.

Amagare n'ibinyabiziga bishobora gufasha umuntu kwihuta ariko ikibazo cyabyo bigenda ahamanuka gusa. Niyo mpamvu usanga abagenzi benshi bahitamo gutega moto.

Umumotari atwaye umufuka ari mu muhanda wa kaburimbo akaba ageze iruhande rw'akayira k'abanyamaguru bambukiramo ndetse akaba agiye kugenda gakeya kugira ngo ataza kugira uwo agonga.

Umuntu uhetse umugenzi kuri moto akaba ari mu muhanda rwagati, agaze iruhande rw'amaduka acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri z'umukara.

Abamotari bagira uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere igihugu ndetse no mu kugenda bagaragaza imyitwarire myiza. Iyo umumotari atwaye umugenzi akabanza kumuha umuti wo gukaraba intoki, bituma hirindwa indwara nyinshi z'ibyorezo.